Mu mashuri abanza hari ibitabo by'ubwoko bugiye butandukanye, ibi bitabo bikaba byifashishwa n'abana, cyane cyane iyo abana bashaka kwiga gusoma no kwandika Ikinyarwanda, hari ibitabo babaha kugira ngo bibashe kuba byabafasha.

Seti ni kimwe mu gikoresho kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ndetse na pirimeri. Aho usanga irimo ibikoresho bifasha abanyeshuri mu guca imirongo igororotse, ndetse no gushushanya.

Seti ebyiri, sete imwe ikaba ifunze, indi set ikaba ifunguye aho hari kugaragara ibikoresho biyirimo, hakaba harimo amarate, hakabamo uducongesho, kereyo, kopa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bisa nk'aho ari abanyeshuri bakaba bicaye ahantu muri salle mu buryo bwiza bwo ku murongo, bigaragara ko wagirango ngo barimo barakora icyandikwa. Bitwikiriye ibintu mu mutwe bigiye bitandukanye kugira ngo bataba bakoperana.

Abantu harimo n'umugabo umwe w'umusirikare, bakaba bari munsi y'inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse ikaba ari etaje, aho ngaho hakaba hari n'igiti kiriho idarapo ry'u Rwanda, bisa nk'aho aha ngaha ari nko ku kigo cy'ishuri cya segonderi.

Igikoresho kizwi ku izina rya seti, aho cyifashishwa n'abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ndetse n'ayisumbuye. Hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo uducamurongo tugiye dutandukanye. Harimo ibindi bikoresho bifasha umuntu gushushanya ikiziga, ndetse no gusiba.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri yisumbuye, aho haba harimo uducamurongo tugiye dutandukanye ndetse hakaba harimo n'utundi nk'udukereyo, uducongesho, udukompa, twifashishwa n'umunyeshuri mu gihe ari guca imirongo ndetse no gushushanya.

Ni ikigo cy'amashuri yisumbuye iki kigo kikaba gikikijwe n'ibiti bizana umuyaga n'umwuka mwiza wo guhumeka. Haragaragara kandi umuryango cyangwa se porotaye ikinguye. Ikaba yanditseho amagambo aha ikaze abantu baje kwiga muri icyo kigo cya Rukomo.

Mu mashuri agiye atandukanye yaba amashuri abanza, habamo isomero, aho baba bafite ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, abana bifashisha barimo biga amasomo yabo ndetse cyane cyane basoma ndetse banamenya kwandika Ikiyarwanda.

imfashanyigisho y'abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza. Uba usanga hari ibitabo byanditseho inyuguti z'Ikinyarwanda, aho abarimu bazifashisha babwira abana ngo bazisome, ugasanga umwana ari kugenda aziririmba inzira yose kugira ngo abashe kuba yazimenya.

Ni inyubako ebyiri za etage zikaba zubatse mu buryo bugezweho. Izi nyubako zikaba zitangirwamo inyigisho aho zigishirizwamo abana biga mu mashuri abanza, hari jaridi zihateye ubona zifasha aba bantu bari ahangaha kugira umwuka mwiza wo guhumeka.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ari ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza. Harimo karikireta, hakabamo amakereyo ndetse n'utundi dukoresho twifashishwa n'abana barimo bashushanya.

Mu mashuri abanza hagiye harimo ibitabo by'amoko agiye atandukanye, ibi bitabo abarimu babyifashisha bigisha abanyeshuri aho babibika ahantu heza mu tubati, iyo umwana akeneye gusoma aragenda akabwira umwarimu akamutiza igitabo.

Igishushanyo cyifashishwa nk'imfashanyigisho, aho abana batoya biga mu mashuri y'incuke bakifashisha mu myigire yabo, hariho abana b'abanyeshuri ndetse n'abarezi babiri bashinzwe gukurikirana aba bana.

Ni mu kigo cy'ishuri aho aba ngaba ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari babahaye umukoro barimo barakora, bose bafite imashini zibafasha guteranya imibare.

Ni ahantu hubakishije ibintu bimeze nk'ibishitingi hameze nk'aho ari mu ihema hakaba hicayemo abanyeshuri bagiye batandukanye, hagati yabo hahagazemo undi munyeshuri bisa nk'aho hari ijambo runaka arimo arabagenera, hari abandi barimo barandika ibyo ari kuvuga.

Biga mu mashuri yisumbuye aho bari mu nzira barimo baragendana n'abayobozi babo bisa nk'aho hari igikorwa runaka bitabiriye, imbere hari imodoka ziri kuhaturuka.

Ni ikigo cy'amashuri aho muri iki kigo hateyemo ibiti bikurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka, biragaragara ko aya mashuri yubakishije amatafari ahiye, hagaragara kandi amagare aparitse mu mbuga y'iki kigo.

Ni abantu bambaye utujire bakaba bari ahantu mu ishuri bisa nk'aho hari ibintu runaka barimo barigaho aho imbere yabo hari umuntu urimo uragerageza kubasobanurira ibyo bintu uko bikorwa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bikaba bigaragara ko aba banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hakaba hari umusore uteruye akabasegasa n'aho karimo ibyo kurya abandi barimo baramureba bamwe barimo baraseka.

Abasore batatu bambaye amatabuririya y'ubururu, aho barimo baragerageza gukora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Urabona ko buri muntu afite akantu ke aho ari kugenda ashyiraho ibintu bifasha abantu kuba bacagiga amatelefone yabo.

Ni ahantu hicaye abanyeshuri ba segonderi bagiye batandukanye, hakaba hari umwe mu banyeshuri ubahagaze imbere, arimo arababwira iby'ingenzi bagiye kwibandaho, hari kandi n'ibikoresho by'isakazamajwi, biri aho ngaho.

Inyubako yubatse neza cyane aho yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari abantu batatu barimo baritegereza iyi nyubako bisa nkaho barimo baraganira uburyo bashobora kuba bayivugurura bakongeraho andi marangi mashyashya.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano yabo, bakaba bari bahagaze imbere y'ahantu hari ibiti ndetse n'inyubako, aho bari barimo bafata ifoto y'urwibutso, bisa nk'aho bari barangije amasomo yabo, bakavuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso.

Abana b'abanyeshuri aho bari kumwe n'abayobozi babo, bakaba barimo barafata ifoto imbere y'ishuri bigamo, hari umugabo ubara iruhande ndetse hakaba hari n'umansera bisa nk'aho ari umwe mu bayobozi, biga ku kigo cyubakishije amatafari ahiye.

Umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, akaba afite mikorofone mu ntoki, uyu mugabo akaba ari kugira inama aba banyeshuri y'ukuntu bashobora kwiga ndetse bashyizeho umwete, bakabasha kuba batsinda amasomo yabo.

Ni ahantu muri salle ubona ko ari inyubako yubatse mu buryo bwiza hakaba harimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye utu dukoresho tukaba twifashishwa n'abanyeshuri ba segondeiri mu gihe bari mu bushakashatsi, kandi muri iyo nzu haragaragaramo umuntu bisa nkaho arimo aracunga ibi bikoresho.

Ni byiza ko mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza habaho igihe abarimu bategurira abanyeshuri babo ibizamini kugira ngo barebe niba ibyo bigishije barabashije kubyumva, aha ngaha bano banyeshuri barimo barakora ikizamini aho ubona umunyeshuri umwe yashishikaye ari gukora, undi we urabona ko nta kintu bimubwiye.

Ni umumama bigaragara ko asa nk'aho akuze akaba yicaye ahantu mu biro bye, biragaragara ko uyu mumama ari umwarimu yigisha mu kigo cya s aegonderi, ahantu yicaye ku meza hateretse uducupa tw'amazi ya Nile ndetse inyuma ye hakaba hari igikoresho cya kizimyamwoto kihagaragara, mu biganza bye afite ikaramu ku meza hateretse agakayi arimo arandikamo.

Ni abantu bambaye imyenda y'abantu barangije kaminuza bambara, bakaba bari ahantu barimo barifotoza, biragaragara ko bishimye cyane ndetse bari kwifotoreza imbere y'inzu isize amarangi y'umuhondo, barishimye nk'uko bigaragara ku maso yabo.

Abanyeshuri biga kaminuza, bakaba bari barangije amashuri yabo. Aho bambaye imyenda yambarwa n'abantu barangije amashuri. Urabona ko bishimye cyane bose bazamuye ibiganza, hari n'abandi bantu baje kureba icyo kirori cy'abo banyeshuri.

Ni abantu bigaragara ko bari mu nama, bakaba bicaye muri sale irimo irabera mo inama, bafite amakayi ndetse n'amakaramu barimo barandika ibyo bari kubwirwa n'umuntu uyobora iyo nama, bisa nkaho bose bamuteze amatwi, biragaragara ko ari kubabwira ibintu by'ingenzi.

Mu makaminuza agiye atandukanye yo hirya no hino mu Rwanda hagiye hari inyubako nziza cyane ubona ko zubatswe mu buryo bugezweho, hari umusore urimo uramanuka ku ngazi ndetse mu kayira kari imbere ye harimo amapave, hari kandi na jaride zihakikije.

Ni akayira ubona ko ari keza cyane kubera ko gashashishije amapave, hakaba hari n'ubwogero aho umuntu agenda akoga intoki, iruhande hakaba hateye ibiti bizana umwuka mwiza wo guhumeka ku banyeshuri biga kaminuza cyangwa se abiga mu mashuri yigenga.